Icyapa cy'ubururu n'umweru kirimo amagambo yandikishije umukara, kigaragaza iminsi n'amasaha n'ibikorwa muri iyo minsi n'ayo masaha, i ruhande rwacyo hari ibara rya kake, hari n'ibirahure bya fime.

Umugabo uhagaze ari kureba ku ruhande, iruhande rw'uyu mugabo hari amagambo yandikishije ibara ry'umweru, ari mu ibara ry'ubururu, hari utundi tugambo dutoya twandikishije ibara ry'ubururu.

Abagabo babiri bari imbere y'ikamyo umwe yambaye ishati y'amakaro undi yambaye umupira w'umutuku urimo utubara tw'umweru, imbere y'iyo kamyo hari amagambo yandikishije umutuku hari n'ayandi yandikishije umukara.

Imodoka y'umukara ifite akabara k'umweru imbere, ihagaze hagati muri kaburimbo irareba imbere, inyuma yayo hari inzu ifite ibara ry'umuhondo, hakurya hari igiti kirekire.

Ibiganza bifite amafaranga ibyo biganza biriho ibara ry'umweru n'umukara, biri hejuru y'imashini isanzwe ibara amafaranga.

Inzu inzu nini isize umucanga ndetse hari n'inzu ishaje ntoya, nyuma yaho hari ishyamba n'icyapa cyanditseho akanyaru, huye, muhanga; hariho icyapa kiriho akantu kazamuye ndetse n'ikindi gitambika hariho Ruhango, Kinazi

Abantu bahagaze mu nzu icururizwamo amata, hari umugore uri gusuka amata ayavana mu ndobo y'umutuku ashyira mu ndabo y'umweru, umuryango w'iyo nzu ufite ibara ry'icyatsi, iruhande rwabyo hari inka iri munsi y'igiti.

Intebe z'amabara atandukanye zimwe zisa ubururu bwijimye izindi zisa ubururu bwerurutse ziteretse hanze imbere yinzu ifite ibara ry'umuhondo ifite amadirishya asize irangi ry'ubururu.

Igitanda kiriho matora yambaye umwenda w'umweru, iruhande rw'icyo gitanda hari amabara ya shokora, icyo gitanda kiri iruhande rw'amarido afite amabara y'umweru.

Inzu ndende y'amagorofa ikikijwe n'ibirahure isize ibara ry'umweru iri hagati y'ibiti birebire hakuno yayo hari umuhanda wa kaburimbo urimo imodoka na moto hari icyapa kiriho ubururu n'utundi tubara.

Amagambo matoya y'umukara yanditse ku rupapuro rw'umweru avanzemo umurongo w'amagambo y'umutuku nayo magufi.

Umugabo wambaye umupira w'umukara n'ingofero y'umukara; inyuma ye hari umugore ari gucuruza ibitunguru by'umweru n'iby'umutuku, inyanya, ibirungo bitandukanye iby'amafu, amavuta n'ibindi.

Abantu bicaye bari kudoda bakikijwe n'imyenda y'ubwoko bwinshi butandukanye amashuka, ibiringiti, imipira, imyenda yo gukorana siporo n'ibindi byinshi bitandukanye bifite amabara atandukanye.

Abantu benshi bahagaze mu myaka: ibitoki, imineke, amakaroti, ibirayi, amateke, imyumbati n'izindi mbuto nyinshi zitandukanye harimo n'inyanya.

Umugabo wambaye umupira w'umuhondo imbere yiwe hari moto ifite ibara ry'umukara n'umuhondo, inyuma ye hari imodoka isize ibara ry'umukara, inyuma y'iyo modoka hari icyapa cy'umuhondo cyanditseho emutiyeni.

Inzu ifite ibara ry'umweru n'umukara, imbere yayo hari ibyuma bifite ibara ry'umukara, imbere y'iyi nzu hateye indabo zifite ibara ry'umutuku n'ibyatsi.

Umukobwa uhagaze, wambaye umupira w'umutuku, n'ipantaro isa umukara, ari imbere y'akabati, afite anverope mu ntoki, imbere ye hari umugabo wambaye umupira w'umweru n'amabara y'umutuku hejuru mu ntugu, hejuru yabo hari icyapa gishushanyijeho ibara ry'icyatsi, harimo n'amagambo y'umweru.

Abantu benshi bahuriye ahantu hamwe bari munsi y'icyapa gifite ibara ry'umweru cyandikishijeho amagambo ari mu ibara ry'ubururu n'icyatsi yannditseho ejo heza.

Inzu isize amabara y'ubururu iriho ibyapa bibiri hejuru no hasi, icyapa cy'umweru hasi kirimo amagambo n'icy'umukara hejuru cyanyanditseho gira ubuzima iruhande rwacyo hari umumama.